Umurima w'ibigori bimaze guheka biri hafi kwera. Ubundi akenshi ubusanga ibigori bikunda kwera mu majyaruguru y'u Rwanda.

Ibi ni ibitoki. Bimaze gusarurwa bivanwa mu murima, bijyanywe ku isoko cyangwa se bibikwe.

Umuririma ugaragaza ubuhinzi butandukanye, burimo urutoki ndetse imbuto n'imboga, byose biri mu murima umwe.

Inshinge zifashishwa mu kuvura inka， ndetse no gutera intanga kugira ngo zibyare ubwoko bw'inka bukenewe， bitewe n'intanga zayitewe.